Iparato, iparato nziza cyane, iparato y'umweru iriho ibitoki, ibitoki bisize ikirungo gitukura. Ibitoki ni bimwe bintu umuntu ategura ku ifunguro, ibitoki biduha poroteyine.

Inzu nziza yubatswe n'amatafari ahiye, mo ndani harimo ameza akozwe mu biti, iruhande rw'ameza hari televiziyo irimo abantu bagiye batandukanye, hirya gato hari intebe y'urubaho ndende.

Inzu nini cyane, irimo amakaro meza y’umukara. Irimo ameza asize ibara rigiye kumera umuhondo, harimo televiziyo. Hakabamo umuntu muri televiziyo wambaye ingofero y’umweru, hakabamo na parafo y’umweru.

Ibiryo byiza cyane ha bigizwe n'itomati, indimu, ibirayi by'ifiriti, ibitunguru n'imboga rwatsi n'urusenda. Ibi biryo biri mu biryo bimwe birinda indwara, byubaka umubiri iruhande gato hari icyo kunywa.

Inzu nziza cyane y'igitaka ifite urugi rukinguye, rufite ibara ry'umweru, umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rufite umwenda umanuye, urimo umweru, umukara, icyatsi n'umukara.

Inzu irimo butike, inzu ifite irangi ry'umweru, igice kimwe kiriho urugi rw'ubururu, imbere gato urugi umweru, imbere y'inzu hari icyapa cyanditseho "barabus bara bibiri".

Inzu ya isize irangi rya shokora . Imbere gato hari imodoka ya dayihatsu. Hirya gato hari idahayitsu y'umweru. Hirya gato hari inzu isakajwe amabati y'umweru. Hirya gatohari inzu isakajwe amabati y'umutuku ndetse hakaba n'umuhanda w'igitaka harimo umuhondo.

Inzu nini ifite ibirahuri by'umukara, iriho icyapa cyanditseho Himagisi Musanze Buranshi. Imbere gato, hari kontakiti, imbere gato hari ibikoresho bigiye butandukanye bya elekitoronike: harimo kompiyuta, telekomande, desikitopu, telefone, hakabaho n'intebe y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi irimo kawunga, udufuka twinshi imbere gato hari ibikarito, byanditseho rwa cumi na kabiri rito . Iruhande rwayo hari umufuka w'umweru uteretse ku meza inyuma gato hari igikarito kirimo umutuku.

Inzu nziza cyane, inzu iteye sima inzu iteye irangi umweru n'umuhondo, harimo icyapa cyanditseho aperikeredi, hasi gato hari n'ibindi bishushanyo bigiye bitandukanye, harimo ibikibikoresho by'ikoranabuhanga.

Igorofa nziza ndende ifite amadirishya manini, ifite ibirahuri bya fime, iriho icyapa cy'umweru cyanditsweho inyandiko z'umukara, iruhande rwacyo hari umuntu uri kugenda mu muhanda nyabagendwa. Inyuma ye hari igiti cy'amashanyarazi kirekire kiriho amatara abiri.

Inzu nziza cyane, inzu ifite irangi ry'umweru, inzu igeretse. Irimo abantu bagiye batandukanye. Umwe wambaye umupira wa tisheti w'umweru, ndetse wegamiye ku magiriyaje. Imbere gato hari ibyapa by'abantu bagiye batandukanye, bafite inyogoshi zigiye zitandukanye, ndetse b'abazungu. Hasi gato hari umumotari.

Inzu nziza cyane igeretse kabiri, imbere gato irafunguye irimo ibintu by'ubucuruzi, imbere gato iparitseho imoto, hirya yayo hari inzu yubatswe mu buryo bw'agacurama, isakajwe amabati atukura.

Inzu nziza cyane ya sima iteye irangi ry'umuhondo. Iriho icyapa cy'umweru. Imbere gato hari umuntu wambaye umupira utukura urimo imirongo y'umweru, hakaba n'ibiti birebire byiza cyane bibereye ijisho. Imbere y'ibiti hari imodoka y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa biriho umuntu, imbere yayo hari bikarito byinshi bigiye bitandukanye, imbere yaho hari abantu babiri bambaye bodaboda z'umuhondo, ubururu bicaye ku ntebe z'ibiti.

Inzu inzu nziza cyane inzu iteye sima, inzu ifite irangi ry'umweru, inzu isakajwe amabati y'umukara. Ifite igipangu cyiza cyane iruhande rw'igipangu mo imbere harimo igiti kirekire imbere y'igiti harimo urutsinga rw'amashanyarazi.

Inzu nziza cyane iteye sima ifite irangi ry'mweru. Hariho icyapa cyanditseho infinigisi. Ni inzu y'ubucuruzi bijyanye n'ikoranabuhanga. Hasi gato hari abantu babiri, umwe w'umudamu ufashe ku munwa wirabura afite imisatsi miremire.

Inzu nziza y'ubucuruzi yanditseho ,icyapa cyanditseho mango foji, hasi gato hari imyenda igiye itandukanye, imwe muri zo hari umweru hejuru, hasi umukara hirya gato hari ishati ifite umutuku hejuru.

Inzu nziza cyane, inzu yubatswe n'amatafari iteye sima, ndetse imbere yubatswe ikoreshejwe n'amakaro, imbere gato hari inkigi munsi gato hari imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo amakoboyi ndetse n'amapantaro y'amatisi y'umukara ndetse n'amashati y'umuhondo.

Inzu nziza cyane ifite irangi ry'umweru, ifite urugi rw'umweru, ifite inkingi zigiye gusa umukara. Imbere y'inzu hari abantu batandukanye, umwe muri bo wambaye ingofero y'umweru, hari icyapa cyanditseho farumasi ritidi.

Inzu, inzu nziza cyane inzu ndende inzu igeretse, inzu ifite amadirishya menshi inzu ifite inzugi nyinshi ya etaje, iriho icyapa cyanditseho forotubete hasi gato imbere y'inzu, hari umutaka wa emutiyene ndetse n'abantu bagiye batandukanye harimo n'imodoka ndetse n'igare.

Inzu nziza cyane ni inzu iteye sima inzu ifite irangi ry'umweru igice kimwe, icumu ririho umukara hejuru hariho icyapa kiriho umuntu w'igishushanyo, iruhande gato hari icyapa icyapa cyanditseho gisakofi inzu ifite urugi rw'umweru, imbere gato hari abantu bagiye batandukanye.

Inzu inzu nziza cyane inzu yubatswe n'amatafari ahiye mu matafari hasizemo n'irangi ry'umweru n'umutuku, ifite urugi rw'umukara imbere gato y'inzu hari umuhanda mwiza cyane urimo akarongo k'umweru.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu yubatswe n'amatafari ahiye, iriho amakositara menshi, isakajwe n'amabati y'umutuku, ifite inzu n'amadirisha bijya gusa ubururu, imbere y'inzu hari igiti cyiza cyane, gifite amababi meza, igiti kiri mubirinda isuri.

Inzu nziza cyane, irimo butiki. Inzu iteye irangi ry’umweru, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye: harimo imitaka, ibirungo bigiye bitandukanye bashyira mu biryo, ndetse ikaba irimo n’ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi isize irangi ry'umweru, hari ibyapa by'inyama, ibinyobwa handitse resitora bara ,handitseho seya gusiti ,hari ibyo kurya n'ibyo kunywa, hirya gato hari ibitoki, hasi hari amakaro.

Igorofa ndende iriho ibiti, hakabaho umuntu wicaye ku biti, iruhande rw'iyo nzu ndende, hariho inzu y'ubucuruzi yanditseho resitorenti. Imbere gato hari ibitabo birambitse ku meza n'icupa ry'inzoga.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi, inzuteye irangi ry'umweru ifite parafo. Imanitse umugano hejuru umanitseho imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo ingofero z'abadamu, ingofero y'umweru n'ingofero z'umukara, ndetse ingofero z'umutuku.

Inzu nziza cyane, inzu iteye sima ,inzu iteye irangi ry'umweru, inzu iriho amadirishya menshi ,inzu ifite inkingi ,inzu ifite urugi rusa umukara, imbere y'inzu ari amakaro, hejuru y'inzu imbere gato hari icyapa cyanditseho randi powenti .

Inzu nziza cyane inzu yubakishijwe amatafari iteye sima, inzu imbere yubatse yubatseho amakaro, ifite inkigi zubabatswe n'amakaro ndetse ifite inzugi zigiye gusa n'umutuku imbere gato y'inzu hari icyuma cy'umuhondo, ndetse na makarito ari ku igare hari n'umubyeyi wambaye ingofero y'umukara.

Inzu nziza ya sima iteye irangi rigiye gusa icyatsi ifite amakositara ane ifite urugi rw'ubururu, imbere gato hari inkigi ibiri hasi hari igitaka kigiye gusa umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi . Harimo amakaramu ,uburoso inzoga z'ubwoko bugiye butandukanye ,kevanti ,ngovu jini, mosi. Mu kabati ka kabiri harimo ,amakotora ,biswi n'ibindi n'ibindi.

Inzu ifite irangi ry'umuhondo, imbere yayo hari imifuka y'umweru irimo umutuku, hakaba hari abantu benshi. Umwe muri bo yambaye agapira k'umuhondo hasi ubururu, hirya gato hari icyapa cya pirimusi, hirya gato hari amashuri.

Inzu y'igorofa ifite umuryango wa Sako, iruhande rwayo hari akazu ka emutiyeni. Imbere y'iyo nzu hari abantu benshi, umwe muri bo afite igare, yicaye ku igare yambaye agapira k'umukara, ipantaro y'umuhondo. Iruhande rwe gato hari umuntu wambaye ishati y'umweru.

Inzu nziza cyane, inzu iteye irangi ry'umweru, inzu y'ubucuruzi irimo butike, inzu iriho icyapa cyanditseho kayitare gusiti hawuze. munsi gato hari nimero za terefone. Ni inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye.

Ibiti byiza, ibiti bifite akamaro ko kurinda isuri, bikaduha umwuka mwiza. Imbere hari icyapa kiriho idarapo ry'u Rwanda ry'ubururu n'umuhodo n'icyatsi handitseho RDB hirya gato handitseho vorukanasi neshonoro pake welikamu tu Kinigi hedikotazi.

Inzu nziza cyane, inzu ifite ibara ry'umuhondo imbere y'inzu hari ipoto, ipoto ry'umuriro ririho insinga z'amashanyarazi, iruhande rw'iyo nzi hari inzu zifatanye zigiye zitandukanye, inzu ifite amakaro imbere ifite inkingi nziza, iruhande hirya gato hari inzu ifite irangi rigiye gusa umutuku wijimye, imbere gato hari abantu bagiye batandukanye, hari umudamu ufite imisatsi y'umukara.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi, inzu iteye irangi ifite urugi rw'icyatsi. Imbere y'inzu hari umutaka wa MTN kanda akanyenyeri ijana na mirongo itanu na rimwe wigurize, hari n'intebe iri hejuru y'umweru.

Inzu ifite imiryango ibiri y'umutuku ikinguye, hari icyapa kiriho cya eyateri imbere gato hari umutaka wa eyateri, hari umunyonzi wambaye umupira w'umukara, inyuma y'inzu hari inzu ya erisede ifite amabati y'umukara, hejuru gato hari urutsinga rw'amashanyarazi.

Inzu nziza cyane iteye sima, ifite amakositara menshi iteye irangi ry'umuhondo. Ifite inzugi nyinshi imbere y'iyo nzu hari abantu bagiye batandukanye, harimo abamotari n'imodoka y'umuhondo umwe muri bo ufite imisatsi miremire.

Inzu nziza cyane irimo butike, inzu iteye irangi ry'umweru, ifite inkingi z'ubururu z'ibyuma, imbere y'inzu hari abakobwa babiri birabura, umwe wambaye ishati ndende y'umweru, ufashe ku munwa, undi iruhande rwe wicaye ku ntebe y'ibiti.

Igorofa ya nini ifite ibirahuri by'umukara imbere gato hari icyapa cyanditseho de besi wani, imbere gato hari igipangu kirimo ibyuma cy'umukara ikaba ifite inkingi ziteye sima.

iyi inzu inzu nziza cyane, inzu iteye sima, inzu iriho amakaro hejuru yinkigi, iriho iricyapa cyanditseho; amazi, amashanyarazi n'ubwubatsi, hasi gato hari inkigi inyuma y'inkigi hari urugi rw'umweru iruhande rw'urugi rw'umweru, hari irangi ry'umukara.

Inzu nziza cyane. Inzu iriho ibyandiko by'umweru, kandi akayeri magana atanu urwego ukurikize amabwiriza. Hasi gato hari inkigi. Imwe muri zo hari utudomagure tw'umweru, imbere gato hari ibyatsi by'icyatsi.

Inzu nziza cyane, inzu iteye sima, inzu iteye irangi ry'umuhondo, inzu ifite inzugi z'umukara. Harimo umuntu uhagaze, hariho na kandagirukarabe. Imbere y'iyo nzu harihoho amagare menshi cyane ariho n'umuhondo. Haparitseho na moto. Impande y'inzu hariho icyapa cyanditsweho n'amagambo y'umukara ndetse n'icyapa cy'umweru.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi irimo butike irimo imyenda igiye itandukanye, imipira ya jampa, imipira ya za jampa z'umukara, umutuku, umweru, ndetse harimo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu irimo ibintu bigiye bitandukanye, hejuru harimo amakaramu abiri y'ubururu. Hino gato munsi harimo biswi z'ibiziga, hirya gato hari biswi zitari iz'ibiziga. Musi hari igikosi kirimo.......

Inzu nziza cyane, iruhande rw'inzu hari icyapa cyanditseho pante dikorori, aho ducuruza imyenda no kuzikodesha. Hasi gato hari umutaka wa MTN, hirya hari ibiti. Ibiti biturinda isuri, bikaduha n'umwuka mwiza iruhande rw'ibiti hari ipoto rirerire riho amashanyarazi.

Inzu y'ubucuruzi, inzu ifite amakaro hasi, inzu ifite urugi rw'umweru, inzu iteye sima, inzu ifite irangi ry'umweru, imbere y'inzu hari amajerekani atatu afite imifuniko y'ubururu. Hejuru y'imifuniko y'ubururu hari amajerekani arimo ibintu by'umukara, apfundikije imifuniko y'ubururu.

Sasa neza shopu ni inzu y'ubucuruzi irimo umupira w'umukara, umupira w'umweru, umupira w'umutuku. Ikaba imbere gato, hakaba harimo umubyeyi wicaye ku ntebe wambaye agapira k'umukara, na telefone, akaba afite telefone, akaba afite agakapu, wambaye inkweto z'umukara.

Inzu nziza cyane iteye sima ifite irangi ry'umuhondo, hejuru y'urugi hariho icyapa cyanditseho keredi, munsi yaho hari numero za terefone. Ku rugi hariho ibikoresho bimwe na bimwe bifashisha bagurisha.

Akazu ka emutiyene gafite ibara ry'umuhondo, mu mpande yako hari abagabo babiri , wambaye bodaboda, umwe akaba yambaye ipantaro y'umukara, hari akazu k'ubucuruzi gashaje karimo imyenda igiye itandukanye, n'ishati imwe y'umweru.

Inzira nziza cyane, ikikijwe n'ibyatsi . Ibyatsi birebire byiza bibereye ijisho rifite ibara ry'icyatsi. Ibyatsi biri mu bumwe budufasha guhumeka umwuka mwiza bikarinda isuri.

Inzu nziza cyane, inzu iteye sima hari irangi ry'umweru hasi hari shokora igiye itandukanye ,irimo imituku n'irindi rigiye kumera nk'umuhondo, harimo ameza akozwe mu biti harimo n'ibishushanyo by'ingagi.

Inzu nziza cyane, inzu isakajwe amategura, imbere y'inzu hari icyapa cyanditseho neza hawuze, hariho nomero za terefone, inzu ifite igipangu cyiza, inyuma y'inzu hari igiti cy'avoka.

Inzu nziza cyane, inzu isakajwe amabati atukura, hejuru y’iyo nzu hari insinga nyinshi z'umukara, iruhande rw’inzu hari igiti kirekire gifite amababi meza, igiti tuziko kirinda isuri, kikaduha umwuka mwiza.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu iteye irangi ry'umweru, inzu y'ubucuruzi irimo, ibintu bigiye bitandukanye harimo gereserine, gereserine ipfundikije umufunika w'umweru nayandi mavuta, afite umufuniko w'umutuku

Inkweto nziza cyane, inkweto ziri ku mayetajeri yubakishije ibiti. Inkweto zimwe muri zo ni umweru, izindi ni umukara urimo umweru. Ndetse zifite n'amarase y'umweru, izindi ni umutuku.

Inzu y'ubucuruzi harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bimwe muri byo hari ibikarito by'umweru biriho umutuku birimo ekuteri z'umweru, ndetse hasi hari n'udukarito tw'umweru hariho umutuku, hari furashi hasi gato, hari icyatsi cyijimye hari n'imbaho.

Isoko ryiza cyane, isoko ririmo ibintu bigiye bitandukanye, kandi hahagazemo umudamu wirabura wambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye umupira w'umukara. Ndetse inyuma ye gato, hari umupira w'umutuku, ndetse hirya gato, hari rakosita y'umuhondo.

Inzu nziza cyane, inzu iteye sima ifite amakositara atatu, inzu iteye irangi ry'umuhondo, ifite inkingi, imbere y'inzu hari abantu benshi bari mu isoko bagiye batandukanye, imbere y'inzu hari umutaka w'ubururu. Ndetse mu iryo isoko harimo umudamu ufite imisatsi y'umukara, ufite umupira w'umutuku urimo ubururu bumanuwe.

Umufuka w'umweru uriho imirongo imanuye y'ubururu, hino gato hari ibitoki, itomati, hejuru gato hari inyembe iri mu mashashi, ibi byose biri mu bikoresho umuntu yifashisha ateka, arya, ndetse bikamutera n'imbaraga.

Isoko ririmo amasafuriya; amasafuri y'umweru, ateretse kudutada twibiti, hirya gato hari imbabura, hejuru y'imbabura hari ibase y'umutuku, hejuru y'umutuku hari imbase y'ubururu. Amasafuriya nayo umuntu yifashisha atekamo ibyo kurya.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi ifite inzugi nyinshi zifite ibara ry'umweru n'amadirishya y'umweru. Imbere y'inzu hari abantu bagiye batandukanye b'abadamu birabura. Imbere y'abadamu hari ibintu umuntu yifashisha mu gutegura ifunguro harimo ibihaza.

Inzu nziza cyane yubatswe mu matafari ahinye iteye, iteye sima, ifite irangi ry'umweru, ifite amadirishya menshi cyane, mo ndani ifite ama etageri yubatswe n'amatafari ahiye, ikagira utwugi tw'umutuku, hejuru yama etageri hari ibihaza ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inzu, inzu nziza cyane. inzu ifite imiryango myinshi, inzu ifite amadirishya menshi, inzu ifite irangi ry' umweru. Hasi gato hari inkingi zifite umukara n'umweru. Harimo isoko, harimo abantu bagiye batandukanye. Bimwe mu biri mu isoko, harimo karoti, imboga rwatsi n'ibihaza.

Amazu y'ubucuruzi afite imiryango myinshi, imbere yayo hari abantu bagiye batandukanye. Umwe muri bo witeze igitambaro cy'umukara, itiriningi y'umukara harimo n'umweru imbere gato hari n'ibitoki.

Isoko ryiza ririmo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'abantu bagiye batandukanye, umugabo n'umugore, umugore wicaye, harimo matora yegetse, matora ebyiri zigiye gusa n'umweru, nyuma ya matera hari amabase iy'ubururu n'umutuku.

Igikarito igikarito cyiza cyane, kirimo ibintu bigiye bitandukanye hariho icyapa cyanditseho brakeheya shambo, munsi ya shambo hariho abazungu bafite imitasi miremire, umwe imisatsi y'umweru undi imisatsi y'umukara , munsi gato hariho igikarito kirimo ibintu by'umuhondo.

Imbegeti ziteretse ku meza ariho salisa z'umutuku imbere gato n'utuduki tw'umuhondo mo ndani hakabamo imbegeti z'umweru imbere gato hakaba harimo agafuka k'umweru karimo umutuku agafuka k'umweru karimo icyatsi kariho agafuka k'umuhondo.

Isoko ryiza cyane isoko ririmo habari umunyu wa habari, harimo amavuta yo kwisiga harimo umutobe w'abana, ndetse hakaba n'igikarito cy'umuhondo kiriho ibara ririmo utuntu tw'umutuku, mo ndani harimo biswi z'abana.

Isoko rinini, isoko ririmo ibintu umuntu yifashisha mu gutegura ateka amafunguro harimo imbabura. Imbabura ifite ibara ry'umweru, hasi shokora, hejuru ubururu. Imbabura ni bimwe mu bikoresho umuntu yifashisha ateka.

Ubutaka bwiza cyane bufite ibara ry' umuhondo, bwanditseho amashuri y' icyatsi ndetse iruhande rwa mashuri, hari abantu bagiye batandukanye harimo abagabo, abadamu inyuma y' abantu hari ibiti birebire, ibiti birinda isuri, bikaduha n' umwuka mwiza.

Inzu nziza cyane. Inzu yubatswe n'amatafari ahiye imbere gato hari fondasiyo, imbere ya fondasiyo hariho inzu y'imbaho isize irangi ry'ubururu ,imbere gato imyenda igiye itandukanye harimo contoni y'ubururu na kaki.

Imyenda iri ku ihema haguru gato hari umupira w'umutuku n'umukara, hirya gato hari inkweto zirimo umweru n'umukara, ugarutse gato hakaba harimo ipantaro irimo umweru n'umukara n'asandari z'umukara.

Amazu meza yimuye ifite ibara ry'umuhondo, imbere gato hari imitaka za emutiyeni , imbere y'imitaka hari abantu benshi bagiye batandukanye, umwe muribo yambaye agapira k'umutuku, uwambaye umupira w'umukara hino gato hari imyenda ziteretse hasi inkweto...

Imbabura nziza. Imbabura iri mu bikoresha umuntu yifashisha ateka. Imbabura ushyize ho amakara iraka. Imbabura tuyigura amafaranga. Hirya gato y'imbabura hari amasafuriya abiri apfundikiye afite ibara ry'umweruri, ndetse hirya gato hari utuntu tumeze nk'uduti dufite ibara ry'ubururu, hirya gato umukara.

Inzu iteye irangi ry’umuhondo, imbere gato hari abantu benshi bagiye batandukanye. Umwe muri bo witeye igishura kirimo icyatsi n’umuhondo, hirya gato hari umubyeyi witeze igitambaro cy’umweru, akaba yambaye ikoti ry’umutuku.

Imashini nziza cyane; imashini iri mu bikoresho by' ikoranabuhanga umuntu yifashisha akurura videwo, kohereza amafoto, kohereza amajwi ndetse akanayigiraho ndetse akayandikiramo ibitabo bigiye bitandukanye.

Isoko rya Byangabo, Byangabo modani maketi ryubatswe n'amatafari ahiye, ririmo umurongo w'umweru imbere gato, imodoka y'umweru ihetse igikapu cy'umweru, inyuma gato hari abantu umwe muri bo wambaye agapira kumukara undi yambaye agapira k'umweru.

Inzu nziza cyane iteye sima ifite irangi ry'umweru, inzu ifite ubucuruzi bugiye butandukanye harimo, ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo umugozi wa telefoni cyangwa se umugozi w'iradiyo, n'ibindi bigiye bitandukanye.

umuntu wikoreye ubwatsi mu mufuka. Ubwotsi bifashisha bakora umutobe, iruhande rwe hari uwambaye ijiri hirya hari ari umutaka aba munsi n'abandi benshi bagiye batandukanye, muribo harimo uwambaye ishati itukura n'uwambaye ishati y'umukara.

inzu, inzu nziza cyane. Inzu yubatswe n'amatafari iteye sima, inzu iteye irangi ry'umweru, ifite urugi rw'umutuku. Mo imbere harimo furate, hasi gato hariho akabati karimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo telefone. Hirya gato hari umugabo wicaye wambaye iby'umukara.

Inzu nziza cyane, inzu irimo ubucuruzi, ibintu bigiye bitandukanye, harimo igikarito kirimo urusenda rw'akabanga inyuma gato y'akabanga hari twisita zifite ibara ryicasi, musi gato hari n'mutobe mwiza cyane ndetse n'ikarito igiye gusa nk'umuntu n'umweru.

Isoko ry'ubucuruzi harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo abantu bagiye batandukanye. Umwe muri bo wambaye umupira w'umukara ufite imisatsi y'umukara wirabura. Harimo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, harimo amashati n'inkweto, n'ibyo kurya.